Ikigo cy'ubwishingizi, bishingira ubuzima bw'umwana wawe ndetse nawe umubyeyi. Ubu ni ngombwa kwishinganisha mu kwivuza kuko indwara ntabwo iteguza cyangwa se n'impanuka ni byiza kwishinganisha mbere.

Eko banki ni banki ya Afurika, ikaba icyakira abashaka kubitsa, kubikura, ku nguzanyo ndetse n'izindi serivisi zose zijyanye n'amafaranga baragufasha, ukaba wabasha gusobanukirwa.

Nari nzi yuko imyenda ya caguwa itakigurishwa, arambwira ati ngo ngwino nge kukwereka ahantu hari imyenda ya caguwa ndetse n'abazungu baza bakagura, ariko ngo wishyura ukoresheje ikarita gusa, mpageze nsasaga koko hari umuzungu waje kugura bafite imyenda myiza n'ubwo ari caguwa.

Ejo bundi nagiye kwigurira agafanta ngezeyo umugabo wanyakiriye yari umwana mwiza, naramuramukije ambwira ibicuruzwa byose afite ndamubwira ati njye nashakaga agafanta akanyota kari kanyishe, arambwira ngo wazagaruka n'ubutaha ukabura.

Gurishiriza imodoka za hundayi, ni imodoka nziza cyane, zifite inkomoko mu bihugu byo hanze, uraza bakagura imodoka yawe bakakurebera yuko ifite byose ukeneye, ubundi bakaguha n'ibyangombwa byayo ukigendera.

Ejo bundi nijyaniye n'umudamu twari duhuriye mu kazi kunywa amata, tuhageze baduhereza amata y'inshyushyu, arangije arambwira ngo ubu se ngo ndaywa amata gusa, aha yari ari gutumiza akarindazi ngo amanuze ayo mata.

Iyi ni inzu igurishirizwamo ibintu bigiye bitandukanye. Harimo amaji, amata, amacapati, amandazi ndetse n'amazi. Uhajya ufite inyota igashira. Uhajya ushonje ukarya ugahaga. Barakwitaho.

Aha ni ahabera ivunjisha kuvunjisha uzana amafaranga ufitiye ukabwirayo ayo ushaka ko baguhereza, bakakuvunjira bakayaguhereza, ukagenda ukayakoresha ibyo wayageneye, ni byiza rero yuko umenya ahabera ibikorwa nk'ibyo ngibyo mu gihugu.

Amafaranga y'amayero akunda gukoreshwa mu bihugu by'Uburayi, rero aya mafaranga afite agaciro gakomeye ku isi hose, ntaho wagenda ngo ntibayakuvunjire kubera yuko aba akenewe n'abantu bagiye batandukanye ku isi.

Aha hakorera ikigo cyo kuvunjisha, bakora amasaha 24/24 mu minsi 7 igihe cyose wabona ukavunjisha amafaranga mu gihe ahogiye mu mahanga se cyangwa se ufite abakoherereje amafaranga y'amadolari.

Ahakorerwa ikigo cy'ivunjisha akaba ari mu Mujyi wa Kigali. Batanga serivisi zo kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga, bayashyira mu mafaranga akoreshwa mu Gihugu cy'u Rwanda ari yo Amanyarwanda.

Iyi ni hotel ikorera muri convention center iyi hotel ni hoteindi cyane mu gihugu cyacu yinjiramo winjiramo ukahaga serivisi harimo masaje n'ibindi byose bitandukanye.

Hoteli iri mu Mujyi wa Kigali ni hoteli nziza cyane ifite pisine, bayitan ngo Rebanone, harimo aho kurara heza, harimo aho kurira heza, hari ahantu heza cyane ho kwifotoreza, ni hoteli wasohokanamo n'umukunzi.

Ibi ni ibiro bikorerwamo ikigo cy'ubwishingizi Prime insurance. Iki ni ikigo cyishingira abarwayi ndetse n'ibinyabiziga, ushobora gushinganisha imodoka yawe, ubuzima bwawe n'ibindi n'ibindi.

I Nyarutarama mu mujyi wa Kigali hari ahantu hakorerwa ikigo cy'ubwishingizi, bafatanye n'ibindi biro byo kuvunjisha, ushobora kuhagenda ufite amafaranga y'amadorari yo ushaka kwishyura mu bwishingizi ukabanza ukavunjisha ku ruhande rwabo.

Ubu byaroroshye hamwe na Equity banki, ubu bakwishyuraho amafaranga y'umushahara wawe ukwezi kwageze bahita bawushyiraho ndetse banakohereza avansi ku mushahara wawe, mu gihe amatariki gambe ataragera mu gihe ugitegereje.

Umudamu wambaye igitenge, akaba ari gutunganya amafi, agurisha amafi ndetse ni amafi agiye atandukanye, arabanza akayatunganya, afite isuku rwose, abakiriya be bagura ibintu bifite isuku, biryoshye.

Amashaza kubera kutayarya cyane umuntu aba azi yuko yazamutse. Ejo bundi nagiye ku isoko nsanga amashaza bari kuyagurisha akadoho ku gihumbi, ndavuga nti, '' koko naho bigeze, ibiciro byaragabanutse bigeze aho ngaho?'' Nahise ngura utudobo dutatu.

Iri ni isoko riherereye mu mujyi wa Kigali aho bita Nyabugogo. Aha ngaha usangamo imboga, imbuto, ibyo guteka, ukabonamo imyenda yo kwambara, inkweto harimo abacuruzi bagiye batandukanye.

Mu isoko aho bagurisha inkweto ndetse n'imyenda, harimo abantu batandukanye, harimo umugabo n'umugore bari guhaha, umugore yambaye ikanzu y'umutuku irimo uturongo tw'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara mo mbere.

Umucuruzi nagiye kuguraho amata ejobundi yabuze ibiceri byo kungarurira, arambwira ngo ariko se ntiwamenya ko hano dukoresha na kode mu kwishyura? ambwira ngo kode y'iwe ni zero ebyiri zeri ebyiri mirongo inani na rimwe, amazina ndi buboneho ni Celestin design.

Moto itwaye imizigo y'ababahamagaye kuri nimero mirongo icyenda na rimwe cumi na rimwe, uru akaba ari uruganda kasha Rwanda batanga ibikoresho by'isuku ndetse ni iby'ubuzima kuri murandasi.

Iduka bita Kimironko market, rikaba ryatanze poromosiyo, ubu wabashaka kugura ku bihumbi mirongo itandatu na birindwi magana atanu, ubu bakubise hasi ni mirongo itanu na bine magana atanu, agera ku bihumbi birindwi byose bayavanyeho, wahage...

Inzu iri mu Mujyi wa Kigali ikaba ari inzu ikodeshwa. Inzu usangamo ibyo kuryamirwa ndetse n'ibikoresho byo muri salo no mu gikoni. Ikaba ari inzu ikodeshwa igihumbi na magana atanu by'amadorari ku kwezi.

Iyi nzu ikodeshwa ibihumbi magana ane by'amanyarwanda ku kwezi, akaba ari inzu iri ku Gishushu hafi ya RDB, akaba ari inzu usangamo televiziyo, intebe ndetse n'ibitanda, akaba ari inzu rwose isa neza.

Inzu igurishwa kuri miliyoni eshanu, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ikaba iri mu Karere ka Kicukiro, Umujyi wa Kigali mu Rwanda, ikaba ari inzu ifite agaporotaye keza ndetse ikaba ifite isakaye neza.

Ejo bundi nagiye kugura agashakoshi, gakomeye, banyereka udushakoshi dukoze mu mpu, udushakoshi twiza cyane, tudahenze, umuntu wese yakigurira, nagiye ngiye kugura ishakoshi, birangira niguriye n'umukandara, ndetse n'udukweto dufunguye.

Iduka bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo amasabune, amavuta yo kurya, ayo koga ndetse n'ayo kwisiga. Harimo ndetse n'ibyo kurya bindi bigiye bitandukanye, wagenda ukihahira rwose ku biciro bike.

Iduka nagiye ku kuguriramo bombo z'abana ejo bundi nahasanze ibintu byiza, ibaze ko nagiye ngiye kugura bombo gusa bikarangira mbaguriye na ayisikirimu ndetse nkabagurira n'amashokora, iri duka rifite ibintu byinshi rwose byatuma nawe ugura utabiteganyije.